Aha hari umugabo uri mu zabukuru, arishimye cyane, ari guseka, afite imvi, asa n'aho ari kwamamaza ubwishingizi bwo mu zabukuru, hasi hari nimero wabahamagaraho ku buntu bakagufasha, hari n'izo wabandikiraho kuri watsapu mu gihe ukeneye ubufasha bwabo.

Umucuruzi uri mu iduka ricuruza ibintu byinshi bitandukanye hari indobo ebyiri ziri mu ibara ribonerana, hari umunzani upima ibintu, harimo ibirungo byinshi bitandukanye, umugore yambaye ikanzu y'umutuku n'ubururu, n'umuhondo ari guseka bisa nk'aho yishimye.

Inzu yamagorofa maremare isize ibara ry'umuhondo, ifite amadirishya y'umukara, ifite akabara k'ubururu hejuru, ni iy'ikigo k'ikigali gishinzwe gucuruza ibinyabiziga bitandukanye, ahangaha kirimo kiracuruza imodoka nziza cyane, ushobora kujyayo bakaguha imodoka nziza ku giciro kiza udahinzwe.

Imodoka nziza cyane yo mu bwoko bwa yundayi kereta bibiri na cumi nicyenda, iri mu ibara ry'umukara nta muntu uyitwaye irahagaze nimero yiranga irahishe, iri mu muhanda wa kaburimbo inyuma yayo hari ibiti byinshi cyane birebire.

Uyu ni umugabo wirabura ubyibushye w'igikara afite imashini imbere ye ibara amafaranga, afite amafaranga menshi cyane ari kuyabara akoresheje iyo mashini yambaye ishati y'amaboko magufi irimo imirongo imanuka.

Inzu icururizwamo amata y'i Nyanza hanze hari urukarabiro, ifite inzugi z'ubururu, isize amarangi y'ubururu, ifite amabati y'ubururu; mo imbere hari icyuma gikonjesha amata waza ukabagana bakaguha amata meza.

MTN yakemuye ibibazo byinshi cyane, yatuzaniye pake nziza cyane, aho ukanda akanyenyeri ijana na mirongo itanu na rimwe, rwego, ukigurira paki yitwa irekure, ukabasha kuvugana n'abawe, inshuti n'abavandimwe, mukagirana ibiganiro birambuye.

Igihugu cy'u Rwanda cyateye imbere ku buryo gisigaye gikoresha amafaranga y'amanyamahanga kandi ntibigire ikintu bitwara, aha hari abagabo babiri ntibagaragara neza umwe yicaye ku ruhande rw'ibumoso undi yicaye ku ruhande rw'iburyo bari kubara amafaranga y'ubwoko bubiri hari umwe ugaragara ibiganza bye bibiri niwe uri kuyabara.

Aha ni ahantu boherereza cyangwa se bakakira amafaranga, ni akazu kari mu mabara menshi atandukanye, harimo amabara y'umuhondo, ubururu, umukara, umweru, gateretse mu gipangu kirimo ibyatsi byinshi cyane.

Ikirere gisa neza cyane, kirimo igicu cyiza, hano hari amazu abiri y'amagorofa maremare, hari ahantu handitse Buritamu, hari umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka y'umweru, hari n'igisahaha kinini cyane.

Inyanya, amashu, intoryi, imiteja, ibitunguru, amakaroni, amavuta, n'ibindi birungo bitandukanye, ni ibiribwa bikunze gucururizwa mu isoko rigari. Muri iri soko harimo umugore ufite imisatsi, yambaye ikanzu y'umuhondo aricaye ari gucuruza ibyo biribwa.

Iri ni iduka ricuruza ibitwenge harimo ibitenge bifite amabara atandukanye, harimo amabara y'umutuku icyatsi ubururu umuhondo, umugabo wicaye wifashe ku munwa bisa naho ariwe uricururizamo.

Isoko ririmo abantu benshi cyane riri gucururizwamo imbuto n'imboga, aha hari ibitunguru, inyanya, pavuro, intoryi. Hari abadamu batatu bicaye imbere, hari umwe wambaye ikanzu ikozwe mu gitenge.

Umuyoboro w'itumanaho wa emutiyene washyizeho uburyo bwiza bwo kwishyura nta giceri na kimwe ukaswe aho ukanda akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu akanyenyeri gatatu urwego ukishyura. Ibi byorohereje abaturage cyane kuko mbere bakatwaga amafaranga menshi.

Aba ni abagabo babiri ubona bishimye bahagaze kuri moto bafashe ku gikarito cyanditseho vuba vuba bambaye amakasike mu mutwe bakorera ikigo cyitwa vuba vuba gishinzwe kugemurira ibintu ababibatumye batarinze bava mu rugo.

Iyi nzu irakodeshwa iherereye mu mujyi wa Kigali, i Kanombe, Busanza. Iyi nzu biragaragara ko ifite ibyumba bine, ifite ubwogero butatu ifite, ubusitani bwiza cyane abantu bakwidagaduriramo, ifite ahantu hanini washyira ibintu bitandukanye.

Iri ni isoko rya kijyambere, ririmo imboga nyinshi zitandukanye, aha turahabona umudamu ufite igikarito mu ntoki, afite ibishuko by'umukara, afite amaherena, ari guhitamo ibitunguru byiza agura.

Umugore w'inzobe ufite imisatsi y,umukara yambaye umupira w,umukara yambaye itaburiya bifashisha mu gucuruza, ari mu iduka ryiza rya kijyambere ricuruza imbuto n'imboga, iryo duka riri mu mabara y'umutuku turabonamo umunzani w'umutuku wifashishwa mu gupima izo mboga.